Ikibuga kinini cyane kirimo ubwatsi, hiryari hari amashuri, hirya gato hari ishyamba rinini, hari kureguka n'udusozi hirya cyane.

Ikigo kinini cyubatsemo amashuri cyubatswe neza, hari n'uduhanda tunyuze mu kajaride keza, karimo pasiparama n'indabo k'uruhande, amashuri meza cyane ariho n'amadarapo abiri.

Abantu bamwe bicaye abandi bahagaze, umugabo uri imbere wirabura, ufite ubwanwa bwinshi, wambaye agakoti k'umukara, hari intebe za z'udutabureti, hirya hari inyubako y'amatafari ahiye.

Abagabo batatu, umwe yambaye kamambiri bose barambitse ibiganza ku rubaho, basa nk'aho bari kwiga kubaka, bose barunamye bari kwitegereza ibyo bari gukora.

Abo bantu babiri bahagaze mu murima wamateke, urimo n'imyumbati. Barunamye basa nk'aho bari gukoreramo ubushakashatsi bwo kugira ngo bite kuri ibyo bihingwa.

Abagabo benshi bari gukanika ibyuma, bamwe bambaye ibisarubeti by'ubururu, abandi bambaye iby'umukara. Hari uri imbere yabo wambaye ishati y'umweru watebeje, n'ipantaro y'umweru n'umukandara w'umukara.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, bari kwandika, bicaye mu ntebe za pipitire, bicaye mu bihande bitatu, nyuma y'aho bari mu ishuri ryubakishije amatafari ahiye.

Abagabo bambaye imyenda y'ubururu, hejuru ingofero yimikara bari mu byuma byikoranabuhanga, batatu begereye ibyo byuma abandi babiri bari impande, hirya hari amazu, inyuma yabo hari amazu.

Umunyeshuri umwe wicaye mu ntebe nziza ari kureba ku mashini, imbere ye hari urupapuro yambaye agapfukamunwa, yambaye ishati y'umweru ,yambaye n'isaha ku kuboko yambaye n'agapfukamunwa, ari kwitegereza muri mashine.

Umugore w'imisatsi myinshi wayipfundikiye inyuma, wambaye ishati y'umweru ifunze kugera mu ijosi, mu ijosi harimo akantu bita ne, afashe ku gasiniya icupa ririmo inzoga n'ibirahuri byo kuyinywesha.

Abanyeshuri benshi cyane bambaye neza, bambaye ubururu hasi hejuru umweru. Bamwe muri bo bambaye n'imipira y'ubururu, hirya gato hari inyubako nziza cyane, abanyeshuri barishimye bari gukoma mu mashyi.

Abantu benshi bafite ibiti mu ntoki bambaye n'ibintu by'ibikoti bari hagati munsi y'ipironi y'amashanyarazi. Inyuma yabo ,hari abandi bantu nabo bari kumurongo hari n' ibiti biri inyuma y'ipironi hirya.

Abaganga benshi bamwe bambaye udupfukamunwa. Bamaze kubyaza umugore. Umwana bamurambitse ku gatanda, barimo kumwitegereza n'undi uri ku ruhande ukurikiranye undi murwayi.

Umufundi uri kubaka wambaye igisarubeti cy'ubururu cyanditseho inyuma, yambaye y'ikigofero cyabugenewe abafundi bambara.

Abanyeshuri bari mu ishuri baricaye bambaye imyenda y'ubururu, mwarimu wabo ufite imisatsi myinshi ari kubigisha kudoda inkweto, abandi bari kubitegereza.

Abantu bambaye iniforume z'umweru, bateka mu maresitora, mu mahoteri, babiri baricaye, undi hirya asa n'uwicaye.

Abana b'abanyeshuri bambaye imyenda y'ubururu, harimo babiri bari guseka bafite impapuro. Inyuma yabo hari inzu nziza, ishuri ryiza ry’amatafari ahiye n’ibirahuri byiza.

Abanyeshuri bari mu masomo bari kwiga, bafite ibintu bari kwigiraho byo gukanika, umwe arunamye abandi barunamutse, ariko bari gukurikirana ibyo ari gukora.

Abantu benshi cyane bamwe baricaye abandi barahagaze, bamwe bambaye iniforume abandi nta iniforume bambaye, hejuru y'aba bantu hari inyamaswa twita ingagi bakoze, babumbye, inyuma y'aba bantu hari ibiti.

Abantu bari muri atoriye, hari ibikoresho by'ububaji, umugore umwe wambaye akagofero, ari guhanagura igikoresho bamaze gukora, undi nawe amuteye umugongo, ari kureba ku ruhande, ni atoriye nini cyane.

Abagabo babiri bambaye ibisarubeti, bambaye n'udupfukamunwa, barunamye bombi, bari gukanika ibyuma, inyuma yaho hari undi mu umugabo uhagaze, asa nk'aho ari kubaha amanota, ufite ikaramu n'urupapuro.

Abagabo bari mu kintu cy'igisharagati gisakaye hejuru kitubatse mu mpande, bari gupakira itaka. Bambaye ibisarubeti by'ubururu, bambaye n'ibintu mu mutwe.

Abarimu bambaye amataburiya basa n'abari kwiga, umwarimu arunamye umwe, babiri barunamye abandi bari gukurikira ibyo bari gukora, bari kubyitegereza, bose bambaye amataburiya y'umweru, inyuma hari amashuri.

Abanyeshuri bafite ibintu by'ikoranabuhanga biriho na mikorofone, abanyeshuri bambaye amajipo asa n'icyatsi, asa na kaki n'amashati y'umweru.

Umugore n'umugabo bari gukamera umugabo yambaye umupira w'icyatsi nakajire n'ingofero y'umweru, umudamu afite ibisuko kumutwe ari gukamera.

Umugabo wambaye igisarubeti cy'ubururu n'akagofero k'umutuku, ufashe iranda uri kubaza igiti giteretse hejuru, ntabwo yunamye cyane, ari kwitegereza ibyo ari gukora.

Aha abanyeshuri bari kwiga ibintu by'ikoranabuhanga, bari inyuma y'inyubako, ni abanyeshuri batatu, hirya hari n'abandi batari kugaragara neza.

Abanyeshuri batatu bambaye ibisarubeti biga kuri Gishari, barunamye bari gukanika. Bambaye udupfukamuwa, bose bakurikiranye ibyo bari gukora.

Umugabo usutamye uri gusudira, wambaye amarineti abasudizi bambara. Hirya gato gato hari ibintu bikozwe muri sipuregisi.

Korali iri kuririmba imbere y'abo bose bafite za mikorofone barimo bararirimba, inyuma y'abo hari utugare, umwe muri abo baririmbyi afite igicurangisho bita gitari.